Abantu benshi bari mu nama, abenshi muri bo imbere yaho hateretse amacupa y'amazi, ameza ateguye neza, begereye ameza baricaye, bahanze amaso ahantu hamwe bamwe muri bo, mu nyubako nziza isa neza.

Abantu benshi, bari kureba mu icyerekezo kimwe, bari mu nama, bicaye ku ntebe zisa, zifite ibara ry'umweru, bakurikiye ikiganiro, kiri gutangwa n'umuntu w'umuyobozi, ndetse ni na site y'ubukerarugendo.

Hari abantu benshi bari mu gikorwa cy'inama, imbere yabo hariho ibyapa, hari ameza, bose begereye ameza, hari amacupa y'amazi cyangwa se ibindi binyobwa runaka, umwe muri bo afashe indangururamajwi arimo atanga ikiganiro cyangwa se arimo aratanga igitekerezo, abandi baramukurikiye.

Abaturage benshi, bari mu nama, bamwe muri bo bambaye imyenda y'imituku, ababyeyi baripfutse, inyuma yabo hari icyapa, hari n'inyubako irimo amadirishya y'ubururu.

Abantu bari mu nama cyangwa mu kiganiro runaka, begereye ameza asa neza bafite mashini cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere yabo hari ikayi bafite amakaramu mu ntoki, bafite n'amacupa y'amazi abateretse imbere.

Hari abantu benshi bicaye mu mucaca bari kureba mukerekezo kimwe, bubatse amatente bari nko gukora igikorwa runaka nko kwamamaza mu nama, hari ibendera, hari ibiti, hari inyubako, hari uhagaze ari kubigisha.

Abantu bari mu nama bafite mashini, begereye ameza, bafite n'amacupa y'amazi imbere yabo, bari gufata imyanzuro ku kintu runaka, bari kwandika, abafite impapuro.

Hari abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa abandi bambaye marinete, bari kureba ahantu hamwe, bari kwigishwa bakandagiye kuri pasiparume, bari mu matente abantu bari barahagaze inyuma.

Abantu bari mu igikorwa cyo kwigishwa cyangwa bari mu nama, hari umuntu uhagaze uri kubigisha, inyuma yabo hariho icyapa kiriho ibendera ry'u Rwanda rifite amabara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'ubururu, hari n'ibindi bihanditse.

Abantu benshi bari mu kiganiro cyangwa mu nyigisho runaka bose baricaye umwe muribo ari gufata amafoto, imbere yabo hateguye ibintu bitandukanye harimo amabendera y'ibihugu hari indabo, imbere yabo hateretse amacupa y'ibirahuri arimo ibintu byo kunywa bose bahanze amaso ahantu hamwe ni abayobozi.

Abantu benshi bari mu igikorwa cy'inama cyangwa se icyo kwigishwa, bose bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, begereye ameza bari kwandika bafite amakayi imbere yabo, amacupa y'amazi ateretse imbere yabo.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe begereye ameza, imbere yabo hariho indangururamajwi bishimye bari mu kiganiro runaka, umwe muri bo arimo aragenda imbere yabo, undi ari kwandika.

Abantu benshi begereye ameza, bicaye ku ntebe z'ubwoko bumwe zifite ibara ry'umukara, ameza y'umutuku, bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se bari kuganira ku kintu runaka.

Abantu bari mu nama bafite amacupa y'amazi imbere, bambaye amajire, begereye ameza, harimo n'ingofero y'akazi bafite n'amatelefone n'akajenda.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara, babiri bahanze amaso ahantu hamwe, bigereye ameza asa neza, bafite amakaramu, imbere yabo hari amakayi, hateretse amacupa y'amazi, bari mu nama runaka cyangwa ikiganiro.

Abantu babiri bicaye imbere y'ameza, bari gutanga ikiganiro runaka, bakoresheje indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho inkurusive sasitayinebo reziriyensi, selifu vayiburanti afodebo Kigali iwacu, ni nk'abanyamakuru bari kuvuga inkuru runaka.

Abantu benshi bari mu nama, bafite ibirahuri by'amazi imbere yabo, bafite mashini, bari kureba ahantu hamwe, begereye ameza, bicaye ku ntebe.

Abantu benshi, buri umwe yibereye mu bye, harimo umwe ufite indangururamajwi, wambaye ikote usa nk'uri gutanga ikiganiro runaka, imbere yabo hari amatelefone, begereye ameza, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu benshi bari mu nama abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego cy'u Rwanda umwe muri bo yambaye linete babiri bafashe terefone undi yambaye isaha n'impeta bari guseka.

Abantu benshi bicaye hamwe bari mu gikorwa cyinama cyangwa se cyo kwigishwa, abenshi muri bo baricaye, begereye ameza, bafite ibirahuri byamazi imbere yabo bari mu nyubako nziza.

Abantu benshi bahanze amaso ahantu hamwe, bari mu gikorwa cy'inama bicaye, bafite ajenda mu ntoki, bari kwigishwa, amarido amanitse, abantu bafite amakaramu, abambaye rinete n'amakoti na karuvati.

Abantu benshi bari mu nama bari kwandika bamwe na bamwe, bari ku meza ateguye hariho amacupa y'amazi imbere yabo abasigaye baricaye, bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyenda ifite amabara atandu...

Abantu batatu bari mu nama, babiri muri bo bambaye amashati y'umweru, babiri muri bo bambaye amarinete bafite mikoro imbere yabo, begereye ameza bafite icupa ry'amazi imbere yabo bicaye ku ntebe z'umukara.

Abantu benshi bicaye, bambaye imipira y'umuhondo iriho ibendera ry'u Rwanda, yanditseho urugerero, bari mu nama si cyangwa bari kwiga, n'abandi bambaye imipira y'icyatsi.

Hari abantu batatu umwe w'umuzungu abandi b'abirabura, begereye ameza bameze nk'abari mu gikorwa cy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, amacupa y'amazi ateretse imbere yabo ku meza, telefone, barishimye.

Hari umupolisi, imbere yabo hari amacupa y'amazi, hariho n'isabune yo gukaraba, hari mashini bari kureba ahantu hamwe, begereye ameza, bicaye ku ntebe z'umukara hamanitse n'ifo inyuma.

Umuntu uri gutanga ikiganiro runaka urikurireba mu cyerekezo kimwe, wicaye ku ntebe y'umukara, ufite mashini imbere ye, wegereye ameza, ufite icupa ry'amazi, imbere y'iwe hariho n'indangururamajwi, hariho n'ikaye.

Ifoto isa neza, iriho abantu benshi bari mu igikorwa cy'ikiganiro cyangwa se cy'inama, abenshi muri bo baricaye mu matente, hari icyapa gishushanyijeho umwana, bamwe begereye ameza imbereye hatetse amacupa y'amazi.

Hari abantu basa neza, hari intebe z'ibara rimwe zifite ibara ry'umweru n'umuhondo, umwe muri bo ari kureba muri telefone abandi muri bo baje kureba ahantu hamwe, bari mu gikorwa cy'inama cyangwa cy'ikiganiro runaka.

Abantu bari mu nama bari gufata imyanzuro runaka, bafite amazi imbere yabo, begereye ameza, bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo, bafite agenda n'ibindi bipapuro na telefone.

Abantu benshi cyane, bahanze amaso ahantu hamwe, bari mu gikorwa cy'inama cyangwa inyigisho runaka, bicaye ku ntebe z'ubwoko bumwe, bari mu nzu nziza ya etaje, isa neza.

Hari abantu benshi bari mu gikorwa cy'inama mu bayobozi, nyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo sewo foramu cyangwa se amahugurwa y'abakuru ba compani. Bari mu nama cyangwa se bari kugira inama, barica.

Abayobozi n'abaturage bari mu nama hariho daso, umuyobozi uri kwigisha abaturage bamwe na bamwe ba baje mu nama, abari kwandika ku makayi, abicaye hasi n' abicaye ku ntebe ye.

Abantu bicaye begeye ameza, hari intebe nyinshi n'abantu benshi barimo gutsinda, bari nko mu nama cyangwa se gutekereza, cyangwa kwiga nko ku bintu runaka, umwe ari kwandika imyanzuro iva mubyo batekereza, abandi bakamubwira ibyo yandika cyangwa se ibyo bavuze.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nzu isa neza, ifite amarido meza, barimo mu gikorwa cy'inama, imbere yabo hari icyapa cyanditseho amahugurwa y'umujyanama n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge n'ubugari. Umuturage ku isonga mu miyoborere, abo bari mu mahugurwa baricaye.

Umuntu uri kuvuga ikiganiro runaka imbere ye hateretse amacupa arimo amazi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi, ari nko kwigisha abantu uburyo batanga serivisi nziza ku baje babagana.

Abantu benshi bicaye hamwe, bakurikiye cyangwa se bari mu kiganiro cy'inama cyangwa se bari kwigishwa ku ngingo runaka, hari umuntu uri kubigisha, hari ibyapa cyangwa se ibirango bigaragaza igikorwa kiri kuhabera, hari ibigega by'amazi n'inyubako n'ibimera.

Hari abantu benshi, bari mu gikorwa cy'inama, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, bamwe muri bo barahagaze, hari abicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo, bari kwigishwa.

Abantu benshi bari kureba ahantu hamwe bari mugikorwa cy'inama bicaye begereye ameza imbere yaho hari ibirahuri birimo ji harimo n'amacupa y'amazi.

Abaturage benshi bari mu nama basoje umuganda bafite amajekani n'ibitiyo, imbere yabo hari umuyobozi uri kubigisha, hari n'icyapa, hari n'inyubako ifite imiryango y'ubururu.

Abantu benshi bari mu nama begereye ameza, imbere yaho hateretseho amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe z'umutuku n'umuhondo, abenshi muri bo bambaye imipira y'imyeru, hariho abayobozi imbere bari kubigisha n'ibyapa ku ruhande byanditseho amagambo atandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari abantu bashinzwe umutekano, bari guhabwa ikiganiro cyangwa se bari mu nama runaka, bari kugihabwa n'umumama w'umuyobozi, bari kuvuga nko ku ntego runaka, abantu bateze amatwi bose baricaye bicaye ku ntebe z'umweru.

Ikirori kirimo abantu benshi, abishira bambaye imyenda y'umukara, abandi bambaye umweruru bafite indabo imbere kumeza begereye ameza bambaye karuvati, bafite intebe z'umukara bakandagiye kuri tapi y'ubururu.

Abantu benshi bari mu gikorwa k'inama umuntu umwe muri bo ari kubigisha, baporojegise, bose bicaye ku ntebe zisa, begereye ameza imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abantu benshi bari mu nama bamwe muri bo bamanitse intoki bambaye imyenda y'imikara bambaye imyenda y'umuhondo begereye ameza bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari amacupa yamazi hari amakaye n'amakaramu.

Hari abantu benshi bari mu nama bicaye barebana, abayobozi bicaye imbere abandi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari amacupa y'amazi, begereye ameza bakurikiye umuntu umwe, hari porojegiteri.

Abantu bari mu nama, abenshi muri bo bambaye imyenda y'imyeru, begereye ameza, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe z'umutuku, bambaye n'inkweto n'amapantaro n'amajipo.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'inama, abeshi muri bo baricaye, bicaye ku ntebe z'ibara rimwe ry'umweru zimeze kimwe, bose bafite mashini cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga, bateretse amacupa y'amazi imbere yaho.

Abantu benshi begereye ameza asa neza, bari mu gikorwa cy'inama, buri wese afite mikorofone imbere yiwe, bari kureba ahantu hamwe bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abantu bari kwigishwa bafite amacupa y'amazi imbere yabo, begereye ameza bahanze amaso ahantu hamwe, bafite telefone mu ntoki, babiri basetse undi yambaye baji mu ijosi.

Abantu benshi bari kwiga cyangwa se bari mu nama runaka, bari mu nzu, hariho umuntu uri kubigisha, abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu, bari kureba ahantu hamwe.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'inama bicaye ku ntebe z'ubwoko bumwe zifite ibara ry'umukara, begereye ameza, bose begereye indangururamajwi, hateguye indabo bari mu gikorwa cy'inama runaka, baherereye i Kigali.

Hari abantu benshi bateraniye hamwe bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se bari kwigishwa ku ngingo runaka, abenshi muri bo baricaye begereye ameza, bicaye ku ntebe z'ibara rimwe ry'umukara, hari icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, hari n'umuntu uri kubigisha.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'inyigisho cyangwa cy'inama, bose baricaye, bafashe amakayi ntoki, inyuma yabo hariho icyapa cyanditseho Umujyi wa Kigali Repubulika y'u Rwanda, uruhare rw'umuturage mu igenamigambi, ingengo y'imari n'imihigo, umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu na bibiri makumyabiri na gatandatu.

Abantu babiri bari gutanga ikiganiro cyangwa se bari mu nama cyangwa se inyigisho runaka, begereye ameza ateguye neza, imbere yabo hari amacupa y'amazi, imbere yabo hari telefone, hari ufashe mikororo uri kuvuga.

Hari abantu benshi bicaye bari mu gikorwa cy'inama se cyangwa inyigisho runaka cyangwa se amahugurwa, bambaye imipira y'ubururu abenshi, umwe muri bo arasetse, imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'abandi bose niko bimeze bicaye ku ntebe.

Serivisi ya leta niyo gukoresha ikoranabuhanga yanditseho ngo arabisi cyangwa se Rwanda bayomedico cente aba onirayini poto foru covidi nayintini rezariti ntugukoresha ikoranabuhanga ureba rezelita cyangwa ibisubizo byavuye mu ndwara ya bibiri na cumi nicyenda ya covidi.

Icyapa kigaragaza ko habura iminsi itatu ngo hahagarikwe kwishyura imisoro no kumenyekanisha umutungo utimukanwa, abazarenze iyo minsi bazabahana, hashushanyijweho inzu nziza ya etage y'inyubako ikorerwamo ibikorwa bya leta.

Uburyo bwo gukora apudeti kuri IBM yawe niba ukoresha simate fone cyangwa taburete zikoresha andoroyide, shyira imashini yawe kuri internet kanda kuri porogaramu ya IBM mu mashini yawe hazamo ishusho isaba gushyira iyi porogaramu kanda insitare porogaramu ya IBM irahita iba apudetedi. Ni uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga bari kutwek aha.

Hari ibyapa bya Equity ibi byapa byamamaza ibintu bitandukanye EcoBank Agent hari inzu ifunguye itanga serivisi za banki hari imodoka hari amadirishya hari ibiti(..)

Hari icyapa kigaragaza imikorere y'irembo, bari kwerekana uko bakoresha irembo hari umuntu uri kubyerekana, hari urubuga rw'irembo, hari ibisabwa kugira ngo ukoreshe irembo cyangwa se usaba serivisi runaka.

Ibikorwa bya Leta biboneka ku rubuga rw'Irembo: harimo uruhushya rwa nyuma rwo guhinga urumogi, uruhushya rwo gucuruza ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi n'ikoranabuhanga byakoze, uruhushya rwo gucuruza imbuto, uruhushya rwo gutubura imbuto, uruhushya rwo gukora ubucuruzi bw'imiti n'ifumbire bikoreshwa mu buhinzi, uruhushya rwo gucuruza amamashini...

Serivisi ya Leta yo kudekarara umusoro, handitseho dekarara domesitike tagisi, disitirigiti reveniyu, nani fiziko reveniyu, tagisi arasesibi, tagisi handibuke n'ibindi.

Abantu bicaye bari kureba muri mashini, hari uwambaye ingofero y'umutuku, hari uwambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo y'umweru, hari n'uwambaye ishati y'umweru, yiyogosheshe.

Ni icyapa kigaragaza ibintu runaka wageragezaho amahirwe, handitse ugaragaza impano yawe utsindire, miliyoni, gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'bindi, hano niho unyura ukagaragaza impano yawe ikagutera inkunga, cyangwa se ugatsindira amafaranga cyangwa ikindi kintu runaka.

Serivisi ya leta isobanurira abaturage ibikorwa bimwe na bimwe, iragira iti" ninde ufatwa nka nyiri umutungo utimukanwa?" Nyiri umutungo utimukanwa bivuga umuntu wanditswe nka nyiri uwo mutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo n'ufatwa nka nyiri umutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda.

Serivisi ya Leta ijyanye no kwishyura umusoro. Hari uwibaza ikibazo ati ese abantu baguze cyangwa babonye umutungo utimukanwa mu mwaka makumya na kane na bo bararebwa no kwishyura umusoro? Baramusubiza bati yego, umuntu wahawe uburenganzira bwo kwitwa nyiri umutungo utimukanwa, agahabwa icyangombwa cy'uwo mutungo muri uyu mwaka, na we afite inshingano zo kuwusorera niba uwo mutungo utari warasorewe n'uwari uwufite mbere.

Serivisi z'ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, radiyo laning porogaramu, harimo amabara y'ubururu, umuhondo n'umweru.

Icyapa kiriho abayobozi batatu n'uwa kane, umwe yitwa Mwambari Faustin undi yitwa Biraboneye Africain, Mutagombwa Felix, Munyaburanga vincent, ubumenyi bw'umurimo unoze ink'inkingi y'iterambere, aba ni abatumirwa bari bagiye gutanga ikiganiro kuri radiyo.

Hari abanyeshuri bari kwiga, bafite raputopu zishushanyijemo amazu, bicaye begereye ameza bambaye iniforume, bari mu nzu b'abahanga, basa neza bari kureba ahantu hatandukanye.

Serivisi ya Leta yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ubumenyi n'umurimo unoze inkingi y'iterambere, haba hari abatumirwa uwitwa Mwambari Faustin umuyobozi mukuru ushinzwe umurimo MIFOTARA, Biraboneye Africa umunyamabanga mukuru, Mutagoma Felix umuyobozi ushinzwe imikorere y'abakozi, Munyaburanga Valens umunyamakuru wa RBA.

Serivisi ya Leta ijyanye n'imisoro. Ubu bano barabaza ngo ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako buteye bute? Zeru n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ibibanza byagenwe guturwamo.

Ibikorwa by'irembo, serivisi nshya ku rubuga rw'irembo, ikigo gitanga iyio serivisi, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, ubutaka, amazina ya serivisi kuvuguru imbibi no gukoresha ubuso, kwandika no guca ibice inyubako ikubiyemo inzu zo guturamo, izi zose ni serivisi wasanga ku irembo.

Abantu bari mu itenti, bafite telefone zibarambitse imbere, begereye ameza, hari imashini, bicaye ku ntebe z'umweru n'abandi benshi bari inyuma, hari amagare, hari ibiti, hari pasiparumu.

Bari kwigisha uburyo wakora apudei kuri ibiyemu yawe ukoresheje imashini, terefoni igendanwa, ko ushyira imashini yawe kuri interineti ugakanda inshyuro ebyiri kuri porogaramu ya ibiyemu, ukareba ibumoso ahanditse niyo ukayemeza, ugakomeza umabwiriza.

Umunsi mukuru mpuzamahanga w'umurimo. Ubumenyi n'umurimo unoze, inkingi y'iterambere. Abatumirwa hari hari: Mwambari Faustin, Umuyobozi Mukuru ushinzwe Umurimo, hariho Biraboneye Afurika Umunyamabanga Mukuru, Mutagomwa Ferex Umuyobozi ushinzwe Imicungire y'Abakozi, Munyaburanga Vincent umunyamakuru wa RBA.

Hari serivisi ya leta yitwa edcastion cyangwa se kwigisha hari abanyeshuri bambaye udupfukamunwa hari umwarimu bafite machini n'ibitabo imbere yabo bari kwiga.

Abantu bicaye, bose bareba mu ma telefone wagirango ngo bari nko kuri interineti runaka, bicaye imbere y'amapave, ibyapa byo ku muhanda, hari amatara yo ku muhanda, hari icyapa cyo kwamamaza inyuma yabo, kitagaragara neza.

Ibikorwa by'irembo ofisho garanti gurupe, abantu bajya guhaha, imiryango ifunguye ifite amabara y'icyatsi n'umuhondo bagiye kugura ibintu bitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga w'abakozi wa makumyabiri na rimwe, itariki ya mbere na yo ya bibiri makumyabiri na rimwe, poromote emporoyimenti foru rapidi ekonomiki deveropumeti rikavari andi taransiforumashono deveropumenti. hari abantu bari guserebura uwo munsi bambaye udupfukamunwa wagira ngo ni ukwamamaza.

Ni serivisi ya leta, yo kwamamaza ibikorwa bikorerwa ku irembo, iri kugaragaza ibintu bimwe na bimwe, na serivisi wasaba unyuze ku irembo, harimo uburyo bushya bwo kwandikira umuryango utari uwa leta, ku rwego rw'igihugu ry'imiyoborere RGB.

Ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvugwa muri iyi minsi, kiratangwa na Batamuriza Hajara komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu, Mbera Emmy komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'umusoro, kuri Radioyo Rwanda, ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane, kuva saa moya kugera saa mbiri.

Ibikorwaremezo nk'umuhanda, hari amashanyarazi, hari insinga, hari amatara ku muhanda hari abantu benshi, haparitse imodoka, hari inyubako, hari ibyapa biranga ahantu runaka, hari ibiti.

Inzu nziza isa n'ishajeho ariko atari cyane, hariho canal, ifite igipangu cy'ibara ry'icyatsi, yubakishije amatafari ahiye, ifite icyapa cya nimero kane, irakodeshwa cyangwa se iragurishwa meyibi hari n'ibiti.

Hari ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa bya leta birimo gukwirakwiza amashanyarazi, hari insinga zitwara umuriro hari amapoto, hari abantu bahagaze, hari inyubako, hari ibiti by'ubwoko butandukanye, hari n'indabo.

Hari igikorwa cya leta nk'umuhanda, insinga z'amashanyarazi, ipoto, amatara yo ku muhanda, igipangu kiri ku nyubako runaka, hari indabo nziza ziri ku gipangu, hari ibimera, hari ibidukikije harimo n'ibiti byiza cyane.

Ibikorwaremezo harimo amapironi, hari umuhanda, hari ibimera bitandukanye cyangwa se ibidukikije, harimo ibiti, ibyatsi, hari abantu, hari amagare ari kugenda mu muhanda, hari indabyo zimeze neza.

Hari ibikorwaremezo nk'umuhanda, hari amashanyarazi, amapoto cyangwa se amatara yo ku muhanda, hari inzu ziriho ibyapa bitandukanye bitagaragara neza, hari abagenzi b'urugenda n'uruza, hari n'ibiti.

Hari icyapa cya eyateri cy'ibara ry'umweru n'umutuku cyanditseho eyateri, hariho foji n'ikindi kirango cya sitatayimu gifite ibara ry'umweru, ahantu h'ubururu hari amatara yo ku muhanda, hari insinga z'amashanyarazi hari ibiti inzu(..)

Ibi ni ibikorwaremezo, hariho inyubako, amashanyarazi, insinga zijyana amashanyarazi, inzu, ibipangu, hariya hariho icyapa cyamamaza ibintu runaka ariko sindi kubibona neza, hari ibiti, hari umuhanda n'abantu.

Hari inyubako, hari amazu, hari amapironi, hari indabo, hari umuhanda, hari ibiti byinshi byiza, hari insinga z'amashanyarazi, hari inzu nziza cyane.

Hari ibiti, hari umuhanda, hari abantu, hari inzu ifite geti nini, hari ikirere, hari amashanyarazi, hari amapoto, abantu bamwe bari kugenda abandi barahagaze, hari imodoka,,,

Hari ibikorwaremezo nk'inyubako, hari amatara yo muhanda, hari ampaputo, hari insinga z'amashanyarazi, hari ibyapa by'umuhanda, hari akayira k'abagenzi, harimo umuntu uri ku igare, hari umuhanda hari ibyapa byo ku muhanda.

Ibidukikije, ibiti, inzu, inyubako, amapoto, amashanyarazi, abaturage, indabyo, ibyatsi.

Hari inzu nziza ifite, isakaje amabati meza, ifite igipangu cyiza, nomero mirongo itatu n'eshatu, hari indabo, yegereye ishyamba cyangwa se ibiti byinshi cyane, hari insinga z'amashanyarazi.

Inyubako isa neza ifite ibimera biyikikije ibiti, ibyatsi, indabo. Imeze nk'ikigo cy'amashuri ifite imiryango myinshi itandukanye, isakaje amabati y'umutuku isa neza. Iri ahantu heza.

Inzu y'ibitaro ifite umucaca imbere, yubakishije amatafari ahiye, harimo na purafu, hariho n'akayira ko kunyuramo gasakariye n'amabati n'indabo...

Abantu bari ku bitaro harimo n'imfungwa, bari gusaba serivisi bose bicaye, hariho umuganga uhagaze, hariho abantu babiri bambaye imyenda y'umuhondo, undi yifashe ku mutwe, undi afite ekuteri mu matwi yambaye ingofero afite na telefone mu ntoki.

Inzu itangirwamo serivisi za leta, ifite irangi ry'umuhondo, ifite parafo y'umweru, hariho icyapa cyanditseho ngo no simokingi cyangwa se nta kuhankwera, hariho abantu bicaye baje gushaka serivisi, hariho abari kugenda bafunguye umuryango.

Serivisi ya leta ni ibitaro bivurirwamo abarwayi, hari ibyapa bigaragaza amerekezo, hari aho bafatira imiti, hari abantu baje kwivuza, hari imodoka ziparitse.

Abantu benshi bari ahano hamwe ku bitaro hari imodoka zitwara abarwayi tuziho nka ambiranse cyangwa imbangukiragutabara benshi bicaye bamwe abandi bahagaze bigaragara ko bashaka serivisi runaka.

Hari umuhanda n'imodoka itwara abarwayi iriho umusaraba izwi nka amburanse n'indi yanditseho ngo Toyota ifite ikibehe, ziri mu byerekezo bitandukanye, hejuru hari ikirere gisa n'ubururu, hari inzu, hari giriyage, hari rigori.

Hari inyubako nziza y'ibitaro ifite imiryango myinshi itandukanye ya etaje, hari abantu bari kugenda, hari umuhanda, hari abarwayi bari kwivuza, hari ibyapa bigaragaza ko ari iby'umwami Faisal hosipito, binoni ibitaro biriho n'ibendera ry'u Rwanda.

Parikingi z'imodoka z' ambilanse zitwara abarwayi zibavana mu bitaro bimwe zibajyana mu bindi, zisa, zimeze kimwe; ni serivisi ya Leta. Hari ibiti, hari inyubako, birimo amayetaje, hari aho ziparitse...

Ahantu hasa neza neza cyane, hari inyubako ya etaje, hari ibendera ry'u Rwanda, ni nk'ibiro cyangwa se inyubako ikorerwamo akazi runaka mu gihugu cy'u Rwanda, hariho parikingi, hariho abayobozi, hari umutekano, hari n'abantu bari...

Inyubako y'ibitaro iriho ibyapa bitandukanye biri kuyobora abantu, hari ikigaragaza sajari hosipitarizesheni cyangwa se aho babagira, hari abantu bari kugendamo b'abaganga n'abarwayi, hari jaride y'indabyo.

Icyinicyapa cyomurwanda cyiriho ibendera ry'urwanda handitse repuburika yurwanda umugiwakigali akarere kagasabi kacyiru hospital ibitaro byakacyiru icyi nicyapa cyigaragaza cyangwa cyirangira abantu ibikorerwa kubitara byakacyiru ngo bazajye babagana

Hari ibikorwa bya leta nk'amashuri cyangwa inyubako runaka zikorerwamo ibintu, zisa neza zubakishije amatafari ahiye, zikikijwe n'ibiti, hari ibimera, hari indabo hari akayira kagiye.

Hari inyubako imeze nk'ibitaro irimo ibyapa bitandukanye, harimo ibiti, hari ibimera, hari indabo, hari inzu n'imiryango itandukanye, hari intebe zo kwicaraho.

Ibikorwa remezo harimo inzu yubatse neza ifite amabati y'umutuku, irimo amadirishya ameze neza, iriho uruzitiro, iriho ikigega gitwara amazi cyangwa se kibika amazi, hariho imbangukiragutabara cyangwa se imodoka itwara abarwayi izwiho nka ambiranse, ziri ahantu heza.

Ahantu ku bitaro bya leta, hari umucanga, hateye ibiti, hari abantu baje gushaka serivisi cyangwa se kwivuza, hari akayira kerekana ahantu abantu bagiye hari...

Hari abantu benshi bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, undi muri bo yambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, bose baricaye, umwe muri bo ari kureba muri telefone, bari mu gikorwa cy'inama cyangwa se cyo kwigisha.

Abantu benshi barimo kureba icyerekezo kimwe bicaye umwe ahagaze ari imbere y'abayobozi bari kwigishwa, cyangwa se bari mu nama runaka hari abambaye imyenda y'imyeru hari abipfutse hari abatipfutse,

Ifoto igaragaza abagororwa bari kuva mu modoka, bareba ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'amaroza, hari ibiti, hari indabyo, hari umuhanda.

Hari abantu bari mu gikorwa cy'inama, bari ahantu hamwe, babiri muri bo bambaye ibisa n'abandi babiri muri bo bambaye ibisa, bameze nk'abagororwa ndetse n'abavoka babo, bafite amamashini imbere yabo, n'ibitabo bateretse icupa ry'amazi imbere yabo.

Imodoka ziparitse ahantu zo mu bwoko bumwe, ahantu hari inzu, hari igipangu, hari amatara, hari amapave, hasi aho izo modoka ziparitse hari esikariye.

Ibikorwa bya Leta cyangwa se ibikorwaremezo harimo umuhanda, hari amatara yo ku muhanda, hari abantu bari kugenda, hari abicaye kuri moto, hari imodoka, hari ibiti.

Inzu irimo puberi ifite amakaro, harimo imuri ibicupa bya kizimyamwoto, bari kwamamaza serivisi ya leta, ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Hari umuhanda, ibiti byinshi cyane bikikije umuhanda, hari imodoka nyinshi, hari abantu benshi benshi cyane hari umupolisi ubaririndiye umutekano, mu muhanda, aha hantu ni ho bigira gutwara ibinyabiziga, imodoka, moto, imashini.

Inzu ya etaje nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya leta, imbere yaho haparitseho imodoka zitandukanye, hari ibiti, hari umucaca, hari n'ibindi binyabuzima bitandukanye.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida paul KAGAME ari gutanga sipici cyangwa ikiganiro ahantu hari abaturage benshi bamukurikiye bamuteze amatwi, hasa neza yambaye rinete ya mbere na kositimu.

Abayobozi harimo na perezida w'u Rwanda, hariho ababyeyi bambaye imikenyero n'abagabo bambaye amakoti, n'ibendera inyuma hariho na ekara hejuru.

Abantu benshi bateraniye hamwe, abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, batatu muri bo bari kure ku rupapuro, umwe muri bo afashe amakaye, bari nko mu kiganiro cyangwa se kwamamaza ibintu runaka.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, hari na perezida Paul Kagame na nyakubahwa Jeannette Kagame, hari ibendera ry'u Rwanda, bari gutange ikiganiro cyangwa se mu nama runaka.

Abantu benshi bari gukorwa igikorwa kimwe cyo kwamamaza FPR, bari gutegura amatora bamamaza umuyobozi uzabahagararira, abenshi muri bo bambaye umupira w'umweru abandi bambaye ingofero.

Hari abantu abenshi muri bo bambaye imyenda y'ibara rimwe, hari ubururu n'umutego, bari kwamamaza FPR benda gutora, bari mu gihe cyo kwamamaza abayobozi bashaka kuzatora.

Umuyobozi wicaye uri ku ndangururamajwi wambaye karuvate ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu, bari kwiyamamariza amatora yo muri bibiri na makumyabiri na kane. Umukandida Muhayimana yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, uyu ni Muhayimana Philippe wari uri gukorana ikiganiro n'abanyamakuru ari kwiyamamaza.

Serivisi za leta zo gutora abantu runaka, aba bantu bagiye gutora, batonze umurongo, bari kwerekeza ahantu hamwe, hari inyubako z'ikigo cy'amashuri, ni ahantu bagiye gutorera.

Hari abantu benshi bicaye bari mu igikorwa cy'inama harimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bose bicaye ku ntebe z'umukara, bose bari kureba ahantu hamwe, imbere yabo hari amacupa niba harimo ibinyobwa, begereye ameza.

Hari abantu 3 b'abayobozi bari kwifotoza babiri bifashe kimwe undi umwembaye ikote na karuvati undi yambaye imikenyero bari nko kukwifotoreza ku mpamvu runaka.

Abantu benshi bicaye hamwe, bari mu gikorwa cy'inama begereye ameza, umuyobozi wabo ari kubaha ikiganiro, imbere yabo hari amacupa arimo ibyo kunywa cyangwa se ibirahuri, bari mu nyubako nziza.

Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ingofero yambaye rinete, ari kuvuga ikiganiro runaka akibwira abaturage bamuteze amatwi, ni benshi hari umuhagaze inyuma.

Abantu benshi bari kureba ahantu hamwe, bamwe muri bo bambaye amakoti na karuvati, bari gukora igikorwa runaka, harimo abayobozi, hari ibiti.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'umukara begereye ameza bari mu nama imbere yabo hari amacupa y'amazi, abeshi muri bo bararangaye ntago bari gukurikira ibyo bari kubabwira ni muri sare nini nziza.

Abantu benshi bateraniye hamwe, abenshi muri bo bambaye ingofero z'umutuku, bari kwamamaza Kagame Paul; ni igihe k'itora, bari kwamamaza bafite amabendera ya FPR, hariho n'icyapa cyanditseho umuturage ku isonga; bari kwamamaza umuyobozi wabo bashaka kuzitorera.

Ikirangantego cyanditseho ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, hariho ibendera ry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, handitseho demokarasi n'ubumwe n'ubwisanzure.

Hari umuntu wambaye neza ikote na karuvati n'ishati, imbere hari indangururamajwi amanitse akaboko ari kurahira bamwita Dr Utuma twishima Jean ni minisitiri w'urubyiruko.

Perezida w'u Rwanda asuhuje undi muntu, hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, hari ibendera rifite ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu, ari ryo bendera ry'u Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe, bari mu gikorwa cy'ikiganiro cyangwa se k'inama abenshi muri bo baricaye, hari igiti, hari inzu ya emutiyeni ifite ibara ry'umuhondo, hari n'uri kubaha ikiganiro.

Hari umuntu wambaye umwenda w'ibara ry'umutuku, ufite indangururamajwi mu ntoki, uri gutanga ikiganiro cyangwa inyigisho runaka, uri ahantu, mu nzu imeze neza arishimye, yambaye amaherena n'ibindi.

Umumama mwiza ufite umusatsi mwiza wishimye guseka, wambaye umweru ukenyeye igitenge, yambaye isaha, yambaye impeta, yifotoje ahantu hari ibiti, ibyatsi.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bishimye bari gukoma amashi, bishimiye nk'ikintu runaka, imbere yabo hari amatelefone n'amakayi hateretse amacupa y'amaji, begereye ameza, barahagaze bambaye na baji z'akazi.

Ibikorwa remezo mu muhanda, hari amazu ya etaje, hari ibiti, hari imodoka ziri kugenda mu muhanda nyinshi zijya ahantu hatandukanye, hari abantu, hari amatara yo ku muhanda, hari imodoka y'ikibehe.

Hari umuhanda urimo igare n'umuntu uri kwiyitwara, harimo amagare menshi, hari abamotari benshi, hari urujya n'uruza urugendo rw'abantu, hari akayira, hari imodoka ipakiye ibintu, hari ibiti, hari amashanyarazi, hari inzu.

Igikorwa remezo umuhanda, abamotari benshi bicaye kuri moto, abagenzi bari gutega moto, inyubako, ibyapa by'umuhanda, kwamamaza kokakora, ibiti, aha ni ahantu ni ahantu mu muhanda hari n'imodoka.

Igikorwaremezo nk'umuhanda, hari abamotari benshi, hari imodoka zihetse imizigo, hari ibiti, hari abantu bikoreye imizigo, hari amatara yo ku muhanda, hari umuhanda n'abantu bari kuwugendamo.

Imodoka nziza zifite amabara meza, ziri mu ubwoko bwa ritiko, ndende, nziza, zanditseho gucungira ntabwo bigaragara neza, hariho icyapa kiriho umuntu wishimye uri guserebura, ni ahantu muri gare, harimo n'abantu bari kugenda.

Umuhanda n'ibikorwa remezo harimo amatara yo ku muhanda, hari abagenzi benshi, hari amagare, hari moto, hari imodoka y'idayihatso ipakiye imizigo, hari inzira z'abagenzi, hari ibyapa byo ku muhanda.

Imodoka ifotoye icuritse ndetse n'abantu n'ibintu hariho icyapa cya airtel gifite ibara ry'umutuku hari amatara hari umuhanda hari abagenzi hari ibikorwa bitandukanye biri kuhakorerwa hari ibigega by'amazi.

Imodoka ipakiye inka, ifite ibara ry'umweru n'umukara, izijyanye ahantu runaka, harimo inka nyinshi, hari umuhanda, hari ibiti, hari inyubako.

Ifoto isa neza cyane igaragaza ibimera harimo pasiparume, harimo ibiti, hari ibikorwa remezo nk'umuhanda, amatara yo ku muhanda, ibyapa byo ku muhanda, hari imodoka zitwaye abagenzi, hari iyo mu bwoko bwa ritiko n'izindi zitandukanye.

Ibiti, uruzitiro, inzu nyinshi cyane, umumotari moto imodoka itwara abagenzi iri mu bwoko bwa aratisi vorukano hari umuhanda iri kugenda hariho rigori(..)

Hari umuhanda uri kugendamo abagenzi, harimo moto ipakira imizigo, hari umuntu uyitwaye, hari amatara yo ku muhanda, hari ibiti, hari uruzitiro, hari n'akayira k'abagenzi.

Hari ibikorwa remezo nk'umuhanda, hari ibiti, hari amatara yo ku muhanda, hari imodoka iri kugenda mu muhanda ifite ibara ry'umutuku, hari abantu bari kugenda, hari uruzitiro.

Hari ibiti hari imodoka itwaye abagenzi nini cyane izwiho nka bisi, hari umuhanda, hari uruzitiro, hari rigori, hari n'indi modoka iri kugenda mu muhanda, zose ziri kwerekeza mu byerekezo bimwe, hari inyubako, hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo abantu benshi batandukanye, harimo abamotari, harimo moto, hari imodoka z'ubwoko bwinshi ziparitse, hari izifite amabara y'umutuku, ay'umukara, umweru ikikijwe n'ibiti, hari amatara yo ku muhanda, hari n'ibyapa byo ku muhanda.

Serivisi za leta harimo umuhanda, ibyapa byo ku muhanda, ibigaragaza ahantu runaka, amatara insinga z'amashanyarazi, inyubako zitandukanye, hari imodoka iri kugenda mu muhanda ndetse n'amato ikikijwe n'ibiti.

Hari akayira, hakaba umuhanda, hakaba imodoka itwara abagenzi, hakaba imiti, hakaba amatara yo ku muhanda, hakaba umucaca, hakaba abantu, hakaba uruzitiro hakabaho na rigori cyangwa se aho amazi anyura.

Ibikorwa remezo nk'umuhanda, hari amatara yo ku muhanda, hari ibyapa byo ku muhanda, hari abantu bari kugenda, hari moto, hari abamotari, hari imodoka iri kugenda, hari ibiti.

Ibikorwaremezo harimo umuhanda, ibiti, uruzitiro, hari imodoka ihetse umuzigo, isa neza, hari rigori cyangwa se ahantu amazi mabi anyura, hari akayira kabagenzi.

ibikorwa bya leta umuhanda hari n'ibiti hari n'abantu hari moto hari inzu.

Abamotari, imodoka, umuhanda, inzu imeze nk'isoko ifite imiryango y'ibara ry'icyatsi, harimo ibirahuri, amabati n'ibindi.

Hari ibikorwaremezo cy'umuhanda, hariho imodoka iri kugenda ifite icyapa cya taranzafurika, ifite ibara ry'umutuku, hari ibiti, hari uruzitiro, hari insinga z'amashanyarazi, iyi modoka iri kugenda ihetse ibintu.

Ifoto icuritse irimo imodoka iri kugenda itwara abagenzi, ahantu hanini hari amatara ari kwaka neza wagira ngo ni parikingi, hari abantu benshi bagenda batega imodoka, hari bambaye imyenda y'akazi, hari umuhanda, hari ibiti, hari insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wubatswe na leta, uri kugendamo imodoka y'idayihatsu ihetse ibintu, hari umuntu uri kuyitwara, hari ibiti, hari uruzitiro, hari n'ibindi bikorwa biri gukorerwa inyuma, biri gukorwa n'abantu.

Ibikorwaremezo harimo umuhanda, ibiti, indabyo, amatara yo ku muhanda, moto, abagenzi bicaye kuri moto; bambaye ijire y'umuhondo.

Hari igikorwa remezo nk'umuhanda, hari ibiti bikikije umuhanda, hari uruzitiro, hari moto itwara imizigo ndetse n'umuntu uri kuyitwara, hari imodoka nini ya dayihatso ipakiye matela zo mu bwoko butandukanye nyinshi.

Hari imodoka ndende ifite ibara ry'umweru n'ubururu, hari ibiti, hari umuhanda imodoka iri kugendamo, hari igare n'abantu babiri baryicayeho bose bambaye ingofero bari kujya mu cyerekezo kimwe n'icy'imodoka iriryamo.

Hari umuhanda ari na wo igikorwa cya Leta, uriho moto n'umumotari uri kuyitwara, hari amazu, hari etaje bari kubaka itari yuzura, hari insinga z'amashanyarazi, harimo n'abagenzi.

Leta yubatse umuhanda, harimo abamotari, moto, ibidukikije harimo n'ibiti, inyubako, ibyapa byo ku muhanda, ibipangu, amazu menshi.

Ifoto itambitse iriho moto, abamotari n'abagenzi batwaye abantu, imodoka ziparitse ku ruhande, hari umuhanda hari imodoka nyinshi wagira ngo ni parikingi cyangwa se ahantu bari kugira imodoka hari n'abapolisi bari kubigisha.

Imodoka, umuhanda, abagenzi, abantu bicaye kuri moto, ibiti, amatara yo ku muhanda, ikirere, ahantu bamennye imyanda.

Ifoto isa neza irimo imodoka ya tagisi iri kugenda n'izindi modoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye, ziri kujya mu cyerekezo kimwe, hari indabo, hari ibiti biri ku muhanda, hari amatara yo ku muhanda, n'ibyapa bitandukanye.

Igikorwa remezo nk'umuhanda, amatara yo ku muhanda, ibiti bikikije umuhanda byiza birebire, umuntu uri kugenda mu muhanda, imodoka z'ikibehe ziri kugenda mu muhanda, zipakiye ibintu, hari n'umuntu uyirimo.

Umuhanda n'imodoka yanditseho wikani darayivingi sukuru rimitedi cyangwa se kampani yigisha gutwara ibinyabiziga, harimo umuntu uyitwaye, harimo ibiti ku muhanda, hari akayira, hari indabyo.

Hari imodoka nini cyane ihetse imizigo, hari umuhanda, hari ibiti, hari uruzitiro, hari n'ahantu hanyura amazi mabi hitwa rigori, imodoka iri kujya mu cyerekezo kimwe.

Hari ibikorwa remezo nk'umuhanda, amatara, imodoka, abagenzi bajya hirya no hino, hari imisozi, hari inyubako, hari uruzitiro, hari amapine y'imodoka, hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo ari kumwe n'undi wambaye ubururu.

Inyubako za etaje nziza ziriho ibyapa zihariho abantu bicaye abandi bari kugenda hari umuhanda, hari ibiti, hari indabyo, hari amatara harasa neza cyane.

Inyubako nyinshi zisa neza, hariho umuhanda, hariho ibiti biri imbere y'umuhanda, hari indabyo, hari jaride, hari umucaca, hari abantu bayicayemo, hari akayira kajya ku nyubako, hari amatara yo ku muhanda.

Ikibuga bakiniraho umupira, kirimo ibyatsi, kirimo abakinnyi bari gukina umupira, hariho ibiti, hariho n'abantu baje gufana, hari umuhanda n'ibindi bikorwa bimwe.

Ibikorwaremezo harimo imihanda, ibyapa, amashanyarazi, amatara, umuhanda urimo ibara ry'umweru, hariho indabo ku ruhande, hari ibiti, hari umucaca.

Icyapa cyo ku muhanda gishushanyijeho abantu babiri, kigaragaza abantu bari kugenda, hari ibiti, hari umuhanda, hari indabo, hari uruzitiro, hari abantu bari kugenda.

Icyapa cyo ku muhanda gishushanyijemo umuntu w'ibara ry'umukara, gifite ibara ry'umutuku, umweru n'umuhondo, ntabwo nzi icyo gisobanura ariko gifite akamaro ko kuyobora imodoka.

Iki cyapa cyo ku muhanda kiragaragaza aho imodoka zihagarara zitwaye abagenzi, gifite ibara ry'ubururu, imodoka ishushanyijemo ifite amabara y'umweru, amagambo yanditsemo yandikishije ibara ry'umweru.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, harimo umuntu uri kugenda wambaye imikara, kigaragaza ko mu muhanda hari inzira z'abagenzi.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza amerekezo y'ahantu, nk'iki ngiki kiragaragaza Kanyaru, Huye Muhanga, Ruhango, Kinazi, hari inyubako z'abaturage, hari ibiti, hari amashanyarazi.

Ifoto itambitse iriho umuhanda, abantu benshi bahagaze abandi bari kugenda, hari ibimera nk'ibyatsi, ibiti, hari ibikorwa remezo nk'amashanyarazi, inyubako, hari icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko aha hantu hemerewe guparikwa.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ibintu bibujijwe, gifite ibara ry'umutuku cyanditseho noti sayikoringi, gifite harimo akagare.

Icyapa gicuritse cyanditseho Kacyiru, Kigali international airport, Kigali convention center, hari ibyapa ku muhanda, hari umuhanda, hari ibiti, hari amatara.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ibara ry'umweru n'ubururu, gishushanyijemo imodoka, kigaragaza ko aha hantu iki cyapa kiri bemerewe kuhaparika, cyangwa se ibinyabiziga byemerewe guparika.

Hari icyapa cyo ku muhanda, kigaragaza abantu babiri bari kugenda, n'ikindi kiri ha agabo ntazi gisobanuye, hari umuhanda, hari abamotari, hari abagenzi, hari igipangu, hari n'amashanyarazi insinga ndetse n'amatara.

Icyapa cyo ku muhanda, gifite ibara ry'umweru n'umutuku, kigizwe n'uruzeru n'akaronko kamanutsemo hagati gashushanyijemo imodoka, bigaragaza ko nta guparikinga cyangwa nta guhagarika imodoka biri aho ngaho, gikoreshwa mu muhanda kugira ngo batange amategeko y'umuhanda ku batwara ibinyabiziga.

Ifoto itambitse, igaragaza umuhanda, imodoka ziri kugendamo, icyapa cyo ku muhanda, kigaragaza ko hari umuhanda w'abanyamaguru, n'ikindi cyanditseho Nyarugenge Pension Plaza, Kigali City Center. Hano ni i Kigali hari ibiti, hari inyubako hari amazu.

Ifoto itambitse iriho icyapa cyanditseho ngo kaga gatanu ave ijana na nagatanu ni nimero y'ikibanza, hariho inyubako, hari igipande, hariho igipangu, hari indabo, hari akayira.

Inyubako ya etaje ifite igipangu, ifite geti, imbere yaho hariho icyapa n'umuhanda n'amadirisha n'ibiti.

Ifoto itambitse, iriho igikorwa remezo, ni inyubako ya etaje, iriho icyapa cyamamaza food and fruit, cyangwa ibiryo n'imbuto, isoko, haparitse imodoka ebyiri, hari aba motari, hari abantu.

Inzu nziza ziri ahantu heza, hari icyapa ku muhanda, hariho itara ku muhanda, hari ibiti, inzu zifite igipangu cyiza hariho n'indabo.

Ahantu hari inyubako nyinshi harimo, ama etage, hari ibyapa bitandukanye, harimo amapoto n'insinga z'amashanyarazi, ni heza, hari ibiti, hari indabyo...

Umuhanda, ibiti biri ku muhanda, rigori, ibipangu byiza byinshi kandi binini bitandukanye, inzu nziza ziri ku muhanda, indabo, ibiti byiza, abagenzi.

Inzu nziza ya etaje imanitse kabiri, ifite igipangu kimeze neza, ifite amarange meza, yubakishije ibirahuri. ikikijwe n'ibiti harimo n'indabyo, iri ku muhanda irimo n'amashanyarazi.

Inyubako yanditseho buri yoshe, hariho ibyapa byinshi bigaragaza aho hantu, hariho n'icyapa cyanditseho Nyarutarama, hari imodoka iparitse imbere y'iyo nyubako, hari umuhanda iparitsemo, hari amatara yo ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi.

Agace kitwa Kimironko, harimo amazu menshi meza cyane, harimo amayetaje, hariho ibiti, indabyo, ibyapa, imihanda, amashanyarazi, insinga, amatara yo ku muhanda.

Iratambitse, iriho ibimenyetso byanditseho Canal, ikagira ibyapa biriho yunivaso foreyini bilo, ni inyubako nziza, hariho abantu, hari imodoka zihaparitse, n'imodoka nyinshi n'amazu ya etaje.

Ibikorwa remezo, imihanda, amazu y'amayetaje, icyapa cyanditseho kefusi, icyapa cyo ku muhanda, ibiti.

Ibiti, umuhanda, imodoka, inzu nyinshi cyane kandi nziza, abantu bari kugenda, amatara yo ku muhanda, ahantu hasa neza cyane, indabyo, jaride,,,

Inyubako nziza ya etaje nshyashya irimo amarangi meza ameze neza, ifite igipangu cyiza, ifite urutsinga ruhanyuze rw'amashanyarazi, yubakishije ibirahuri.

Ibikorwa remezo, umuhanda, imodoka, umutaka wa MTN, inyubako harimo etaje, isoko n'abantu.

Hari umuhanda, akayira k'abanyamaguru, hari imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, imitaka y'umuhondo ya MTN, ibyapa byo ku muhanda, etaje, amashanyarazi, amapoto n'ibiti n'abantu bicaye, harimo n'umumotari, umusekirite, abantu bari kugenda n'amaguru,,,

ahantu hitwa giporoso hari umuhanda n'imodoka nyinshi zirimo bisi n'izisanzwe za purayiveti hariho abamotari abagenzi moto zitwaye abantu ibiti amatara yo kumuhanda.

Ifoto itambitse igaragaza ko ari banke ariyo serivisi ya leta, iriho abamotari, hariho indabyo, ni inzu ndende ya etaje, isa neza ikorwaho serivisi ya banke.

Hari inyubako nziza nyinshi cyane zifite amarangi y'amabara atandukanye meza, harimo ama etaje akikirwa n'ibiti asa neza, hari ama etaje ari hakurya meza cyane, hari ibiti.

Hari umuhanda unyuranye ugenda utandukanye, hari n'akayira k'abanyamaguru, hari amatara yo ku muhanda, hari imodoka iri kugenda mu muhanda, hari ibiti byinshi byiza tubizwiho nk'ishimwe.

Hari ifoto icuritse irimo abamotari benshi, irimo imodoka nyinshi, irimo ibya byo ku muhanda byinshi, iriho umuhanda ushushanyijemo amerekezo atandukanye, hari ibiti, hari abantu.

Abantu bari kwambuka umuhanda hari imodoka yarenze yishe amabwiriza y'umuhanda, na moto ihetse abagenzi n'umuhanda w'abanyamaguru, hari ibiti, hari indabo n'uruzitiro na pasiparumu.

Ifoto icuritse, irimo ibikorwa remezo nk'umuhanda, ijya ahantu hatandukanye hariho n'inzira z'abagenzi, hari moto, abamotari batwaye abagenzi, hari ibiti, hari amatara yo kumuhanda hari indabo.

Ibikorwa remezo harimo umuhanda, amatara yo ku muhanda, ibyapa byo ku muhanda, harimo abantu benshi bari ku magare, abandi bahagaze, abandi bari kuri moto, hari imodoka, hari ibiti, hari imisozi n'ibindi.

Ibikorwa remezo nk'umuhanda mugari ujya ahantu hatandukanye, hari ibyapa byo ku muhanda, hari inyubako z'amayetaje, hari ibiti, hari akayira k'abagenzi, hari amatara yo ku muhanda.

Hari muhanda w'igitaka, hari inyubako ku ruhande, hari ibiti, hari amazu, hari ibipangu, hari abantu bari kugenda, hari insinga z'amashanyarazi, hari amatara yo ku muhanda, ayo ku bipangu, inyubako zimeze neza.

Hari umuhanda urimo imodoka ziri kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umukara n'indi ifite ibara ry'umutuku, hari ibiti, hari moto, hari n'abantu bazicayeho bari kujya mu cyerekezo kimwe...

Hari umuhanda mugari, hari imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, ibyapa byo ku muhanda, amatara yo ku muhanda, insinga z'amashanyarazi, hari ibiti byinshi birebire, hari indabo, hari abamotari, hari n'amoto.

Ifoto itambitse irimo umuhanda, abamotari, moto, imodoka, abagenzi, amatara ku muhanda, ibiti n'inyubako ziri hirya no hino hari izina ry'amashanyarazi.

Ifoto itambitse, iriho imodoka ziri kugenda ziva hamwe zijya ahandi, harimo umuhanda na moto, harimo na zebura koroze, hari ibiti bikikije umuhanda, amatara yo ku muhanda n'ibindi bidukikije.

Ifoto icuritse irimo ibikorwaremezo hariho umuhanda ishamikiranye igiya mu duce dutandukanye, hari ibiti biri mu muhanda, hari indabo, hari amatara yo ku muhanda, hari ibyapa bitandukanye, byerekeza ahantu cyangwa se bigaragaza ahantu runaka.

Hari umuhanda, hariho n'ahantu wicara bategereje imodoka hubakiye, hari amatara yo ku muhanda, hari imodoka ziri kugenda mu muhanda, hari moto, hari ibiti byiza bikikije umuhanda, hari amashanyarazi.

Hari umuhanda wa kaburimbo urimo imihanda igiye ikatakase igiye hirya no hino, inyuma yaho hari inyubako nini ya etaje, hari ibiti biwukikije, hari ibyapa byo ku muhanda, hari n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda uri mu byerekezo bitandukanye, aha hari ibyapa byo ku muhanda biyobora ibinyabiziga, hari amatara yo ku muhanda, hari ibiti by'amoko atandukanye byinshi.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, hari umuhanda, hari imodoka hari amagare, hari inyubako ya etaje, hari amashanyarazi, hari matara yo kumuhanda, hari ibiti na rigori.

Ifoto icuritse y'umuhanda harimo imodoka nyinshi ziri kugenda, harimo akayira k'abagenzi, harimo moto n'abamotari n'abagenzi, hari ibiti, hari indabyo, hari n'ikiraro.

Ifoto icuritse iri mu muhanda, ikikijwe n'ibidukikije bisa neza, harimo ibiti, indabo, hari amatara yo ku muhanda, hari abamotari benshi batwaye abagenzi, hari imodoka, hari n'inyubako.